Umurima munini urimo' umuceri, umaze kuba muremure, harimo abagabo babiri bahetse amapompo, bigaragara ko bari guteramo umuti.

Reba bacukuyeho umuyoboro ujyana amazi bashyiramo ikintu hagati kigabanya ayo mazi ngo agende ari makeya, hakurya y'iryo riba hagaze abagabo babiri.

Umudamu uhagaze imbere y'ibyuzi mu ruhande rw'ibumoso rw'ibyuzi hari ishyamba rinini, rigenda rikagera kure, haruguru mu ruhande rw'iburyo na ho hari insina nyinshi, ibyo byuzi bigoswe n'ibyatsi, biri ahantu hameze nko mu kibaya.

Abagabo barindwi bicaye mu murima, imbere yabo bahagaze undi mugabo usa nkaho haribyo kubabwira, ruguru yabo mu ruhande rw'ibumoso, hari ibiti byinshi.

Umurima w'imboga, hirya yawo harimo ibiti bigufiya, harimo n'ibirebire, bigaragara ko harimo ibitemye amashami yabyo, ari hasi n'utundi twatsi duto dutoya, turi muri uwo murima.

Umuyoboro w'amazi, uri hagati y'imirima y'umuceri, mu ruhande rw'ibumoso hari ibiti birebire ku mirima ihari, mu ruhande rw'iburyo hahagaze umugabo, hakurya y'imirima hari ishyamba ry'ibiti binini.

Ni ikiraro bigaragara ko ari icy'imishwi y'inkoko, bagaburiye yunamye yose irimo gutora, n'amatarane ari hagati mu kiraro azimurikira.

Inka ebyiri n'abagabo babiri bunamye bigaragara ko bagiye gukama.

Umurima urimo ingemwe haragaragaramo ikiganzarimo gisa nk'aho aricyo kiri gushyiramo izo ngemwe hakurya yazo haragaragara urumuri rw'izuba rumurika ruciye mu ishyamba riri iruhande rw'umurima.